Uyu ni umugore wabyaye umwana bararyamye ku gitanda cyo kwa muganga ,we n'umwana we biyoroshe ikiringiti.

Umuganga ahagaze mu nzu yambaye itaburiya, inzu irimo ibinini, igabamo n'izindi miti zigiye zitandukanye, akoze ku kabuwate.

Ibinini by'ubwoko butandukanye, hakaba harimo hariho n'uducupa tubagamo ibinini, n'uducupa twa pomade, uducupa turimo umuti gw'amaso.

Aha ni ku bitaro byo mu Ruhengeri abarwayi bivurizagaho bavuye ku masantre do sante, akaba ari ibitaro bya hopitali mu Karere ka Musanze.

Aha ni ahantu h'agashyamba, h'urwuri harimo ibyatsi inka zirisha, harimo ibiko, hariho ibiti, hariho imitobotobo, habaho n'utundi tuntu dutandukanye tw'ubwiza, dutatse igihugu cyacu.

Igiti c'avoka , kirimo amavoka. Harimo amavoka gakuze n'amavoka gatari gakura. Gifite amashami n'amatabi gaco agishamitseho.

Amabuye gwamenetsemo ibisate, hagati y'amabuye hateyemo igiti gifite amashami kitari cyakora, iruhande rwacyo hari ibyatsi byumye.

Umurima uhinzemo igisura, urimo ibyatsi byagiye biranda hasi, ukaba urimo n'ibya marikoco bagiye bashyira hasi.

Ibiti biteye mu murima bikiri bitoya cane, hateyemo n'ikibonobono, harimo n'ibyatsi by'amatovu byegereye ku mabuye.

Ugu ni umurima gurimo amateke, gukabamo ibishyimbo, kandi aga mateke gafashaga abantu mu biryo, n'ibishimbo bigafasha abantu mu mirire. Nyir'umurima yari aje kubikonorora no kubireba uko bimeze.

Ugo ni umurima gurimo ibigori, gukabamo ibishyimbo, gukabamo, ibindi byatsi bitandukanye byameze muri ugo murima.

Igiti cy' isombe giteye mu murima, imbere yacyo hari ibuye ry'urutare imbere yacyo hari ibindi byatsi byahameze, inyuma yacyo hari ibindi byatsi n'isombe igenda ishamika ku giti izana amababi.

Igiti cya nyiramweru cyashamitse amashami menshi. Ntago kirakura cyakuze kuco bari bamaze gutema, mu gitari harimo ibindi biti bikuru n'ibiti bikiri bitoya.

Akarima gateyemo ibisheke. Biri gukura hirya hari urutonde batondekesheje amabuye, hasi bagenda bakokora ibisheke. Babishira hasi kugira ngo ingingo zibashe gukura.

Uyu ni umurima urimo amabuye wamezemo impondore, umeramo ibindi byatsi bigiye bitandukanye. Uri hafi y'umugezi.